Kuri noheli twendaga kujya gusura mukecuru iyo ngiyo za Gahini, turavuga ati: "se turagenda nta kintu tumushyiriye?" Mbwira mama wange ngo reka njye kumugurira agatenge. Ngera ahantu hari ibitenge mbona ibitenge byinshi cyane ndabwira ati: "mumpereze ibitenge bibiri nishyiriye mukecuru." Barabimpa narabimushyiriye, yarabikunze, byari ibitenge byiza cyane.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Vewiti, ikaba isa n'umweru, ikaba iri kugurishwa, ikaba ihagaze amafaranga yo muri miliyoni ijana, ikaba wayibaza bakayikuzanira, ukaza cyangwa ukareba uko ikora ukayigura.

Inzu igurishirizwamo amata, ikaba ari iy'uruganda bita Mukamira, bagira amata, bagira amazi, amaji, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, n'ibyo kurya, urahagera ushonje ukahava wahaze.

Ikorerwamo ubucuruzi, bakaba bagurisha amata ndetse n'ibikomoka ku mata, bakaba bakorera ikigo Nyanza, Nyanza bacuruza amata, ikivuguto, inshyushyu ndetse n'ibindi byose bikomoka ku mata.

Ubu ntitugikoresha ibyansi bikoze mu biti, haje ibyansi byiza by'icyuma bashyiramo amata, bakayarinda kuba yagira ikibazo mu gihe ategereje abayagura, ni byiza gukoresha ibintu bigezweho.

Ubu ntabwo umuriro ugishirana umuntu ngo yirirwe agenda ajya gushaka abantu bacuruza umuriro, ubikora kuri telefoni ya rwose hamwe na Airtel yarabyoroheje, ukanda imibare akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri kane urwego, ukigurira umuriro.

Umudamu w'inzobe ufite amafaranga mu ntoki, afite amafaranga arimo mirongo itanu, icumi, makumyabiri, ijana, amafaranga arakenerwa mu buzima bwa buri munsi ku muntu wese.

Amafaranga yo muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari amadolari ariho umuperezida wabo wa mbere wo bita George Washington, yabaye umuperezida wa mbere w'icyo gihugu, amadolari akorerwa mu bihugu bigiye bitandukanye ku Isi yose.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, harimo mirongo itanu, icumi, makumyabiri, ijana, aya mafaranga rero ntabwo akoreshwa mu bihugu byinshi, iyo ugeze mu kindi gihugu urayavunjisha bakaguhereza akoreshwa mu icyo gihugu ugiyemo.

Intebe nziza zo gushyira aho abantu bicara bafungura, akaba ari intebe nziza rwose zikoze, zifite n'akameza, zirasa neza uzishyize muri saro yawe haba hasa neza cyane.

Ubu Abanyarwanda barasirimutse. Ntawe ukijya kogera hanze, amadushe aba mu nzu, ibikoni mu nzu, ibiki byose mu nzu, aha ngaha ni abo nari nagiye gusura bafite dushe nziza we! harimo n'amarido, harimo aho bogereza intoki, Mana! nabonye ari heza cyane.

Inzu nziza cyane iri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ikaba izwi cyane, iberamo zikomeye zigiye zitandukanye zihuza abantu batandukanye mu isi, bayita Kigali Komvesheni senta, yakira inama zigiye rwose zikomeye.

Iyi ni hoteri nziza cyane ikunda kuberamo ibirori bigiye bitandukanye, haba hari abahanzi ba Bruce Melody, ba The Ben, akaba ari hoteri iri mu Mujyi wa Kigali hagati aho bita i Nyarugenge bayita Onomo Hotel.

Ibiro byiza cyane, birimo intebe nziza, z'umutuku zikaraga, ndetse bafite n'aho gukorera, hari n'amamashini, ni ibiro bigaragara yuko, ari ibiro bikomeye rwose, hakoreramo abantu biyubashye.

Aha ni ahakorera ikigo cy'ubwishingizi cyahoze kizwi nka yuweyipi ubu kikaba cyarahinduriwe izina kikaba cyitwa orudimico, ni ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza, urabishyura warwara ukishyura makeya ku yo wari uteganyije kwishyura.

Ubwo najyaga muri banki nkuru y'u Rwanda, nasanze ari ahantu bafiye serivisi nziza, bakorera mu nyubako nziza cyane, ari abanyamahanga binjiramo, uriinjira bakaguha serivisi ukeneye, yaba kubitsa, yaba kubikura, kugura imigabane ndetse n'ibindi.

Ubu banki ya Kigali yazanye serivisi rwose ivuga ngo buzinesi yawe ni busines yacu, ubu ngubu banki ya Kigali iraguha amafaranga ugashyira muri buzinesi yawe, wakunguka ukajya ubishyura gake gake.

Banki ya Afurika yazanye poromosiyo nshyashya, ubu nawe watunga imodoka, birasaba iki? Urasaba inguzanyo yo kugura imodoka, uhamagaye nimero yabo mirongo itanu nari rimwe makumyabiri bagufashe nawe utunge imodoka.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari icyapa cyamamaza, kiriho umudamu wambaye igitenge cy'umuhondo ndetse n'ikindi mu mutwe, ahobeye umwana we wambaye iniforume. Ni byiza kuzigamira abana bawe amafaranga y'ishuri.

Ejo bundi nari nafashwe na ka malariya, njya kugura utubuto mu isoko. Nsanga bari kugurisha amaronji menshi ngo ni ijana, voka ni ijana, imbuto zarahendutse koko kutarya imbuto ni ubushake.

Umudamu uherutse kunyakira ubwo mperuka mu isoko, yari umudamu mwiza cyane, yanyakiranye akanyamuneza, narindi kugura imyembe ndetse n'amaronji n'amapapayi. Yarabimpaye, arabimpfunyikira, aranshimira, arambwira ati "urakoze mukobwa wanjye."

Umudamu wambaye agapira gasa n'iroza uri guseka, ufite agatwenge ku maso, ari kugurisha imineke, inyanya, ibitunguru ndetse na tungurusumu. Ari gusobanurira umukiriya ndetse arishimye.

Isoko rya Nyabugogo rigira ibintu bigiye bitandukanye, aha ngaha ni aho bacuruza ibitoki, igitoki cyarahenze kera twabiguraga bigura magana atanu, ubu igitoki rwose ntibatinya no kukubwira ibihumbi cumi na bitanu, ukibaza ngo ni ikihe kibazo cyabaye.

Aha ni mu isoko rya Huye aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, aha ni ku ruhande bari gucururizamo ibikapu ndetse n'ibikoresho by'isuku, hari umudamu waje kugura utwenda tw'imbere ari kubaza umucuruzi ngo amusobanu ibiciro ni angahe.

Akazu gakorerwamo n'ikigo k'itumanaho Airtel, ariho abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe bakaba bahuje amaboko bari gusuhuzanya. Barishimye bari guseka rwose, ibiganiro byabo byabagendekeye neza.

Aha hari habereye tombora MTN mushuti wanjye tujyane, yumve ngo bari kubyina bagahembwa amatelefoni, sinamenye aho yacikiye nagiye kubona mbona ari kubyina rwose yizihiwe, arambwira ngo araza gutsinda muri tombora ya MTN.

Ejo bundi natumije inkoko ndetse n'ifiriti, mbitumira ku rubuga rwa Kasha, umugabo wabinzaniye yaje ari seriye, arambwira ati: "ngo twishyure nikomereze njyane n'ibindi mbihageze ku gihe", batanga serivisi nziza pe.

Ikibanza kiza cyane giherereye mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Kicukiro hafi ya Kicukiro santere, kikaba kiri kugurishwa agera mu bihumbi magana abiri mirongo irindwi na bine by'amadolari, k'umuntu ugishaka ni ikibanza cyiza cyane kinini.

Ubwo mperuka kujya gushaka ikibanza i Musave i Bumbogo Umujyi wa Kigali, nahahuriye n'umugabo uzi gusobanura iby'ibibanza we! Yari yambaye akajire k'umuhondo ndetse n'umukara, ansobanurira iby'icyo kibazo gihagaze miliyoni cumi n'eshanu, nahavuye nifuza kugura njya kubikuza amafaranga yanjye!

Inzu nziza cyane iherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa kagarama mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inzu ukodesha harimo intebe, igitanda n'imeza na televiziyo. Ayigukodesha ku gihumbi n'ijana by'amadolari ku kwezi.

Ubwo nashakaga inzu yo kugura, komisiyoneri yanjyanye ahantu hari agataje keza we! mbega agataje keza uretse yuko bari bari guca amafaranga menshi, ariko aka gataje nari nagashimye, ni agataje kageretse kabiri gafite parikingi nziza rwose.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, akaba ari inzu igeretse y'itaje, ikaba ikodeshwa amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi, iyi ni inzu usangagamo n'ibikoresho ukenera by'imbere.

Inzu nziza cyane iherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Murenge wa Gikondo, ikaba igizwe n'ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu ku kwezi, ikaba ari inzu nziza cyane ifite amadirishya agezweho ndetse n'inzugi.

Iyi ni inzu nziza cyane iherereye mu murenge wa Kimironko Akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali, akaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi maganatatu ku kwezi, akaba ari inzu usangamo ibyo kuraraho ndetse n'intebe zo muri saro.

Mu mugi wa Kigali haba amazu meza menshi, iyi ni itaje ikaba iri kugurishwa igihumbi cy'idorari, ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro, mu mugi wa Kigali akaba ari inzu ifite imiryango myiza ndetse n'akabaraza keza.

Njye kubaza inzu yo gukodesha aho nzaba ndi gukora akazi nari nabonye muri Kigali banjyana i Remera, banyereka inzu igize icyumba kimwe, ubwogero bumwe, ndetse ikaba ifite n'igikoni mu nzu ikaba ikodeshwa, ariko banshiye amafaranga numva ari menshi ndababwira ngo munyereke n'ahandi.

Ubu umwana w'umukobwa yahawe ijambo aho ari hose arayobora ndetse agakora akazi gakorwa na bagenzi be. Aha ni umusore ndetse n'umukobwa barikugirana inama ku kubijyanye n'akazi bakora.